Ubuhinzi bukoresha ibikoresho bya kijyambere nk'aho umuhinzi atera umuti yifashishije amapompo ya kijyambere, mu buryo bwo kurinda ibihingwa bye kwibasirwa n'udukoko dutuma bitera neza cyangwa se bigasubira inyuma.

Imiti ikorwa kugira ngo yifashishwe mu buhinzi, iyo miti ikaba yifashisha mu kurwanya ibyorezo bifata ibihingwa ntibikure neza cyangwa se bigatuma byangirika ntibibashe kugira umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bw'ibigori, aho umuhinzi ari kuvomerera ibigori bye anabitera umuti wica udukoko twibasira ibigori bikiri bitoya, bibyo ntibikure neza.

Umugabo ahagaze mu murima ahetse ipombo irimo umuti atera ku bihingwa uwo muti wica udukoko, yambaye imyenda yipfutse mu maso no mu mazuru kuko uwo muti ushobora kuba wamwangiza kuko uba ugamije kwica udukoko turi mu bihingwa, bityo rero n'umuntu dushobora kumugiraho ingaruka ni yo mpamvu yipfutse mu maso.

Umubyeyi uri mu nzu y'ubucuruzi bwe, harimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buhinzi, ahari imiti yifashishwa, yica udukoko tw'ubuhinzi ndetse n'indi miti, irimo imbuto ndetse n'imirama yo mu buhinzi.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buhinzi, n'imiti iba iri mu ducupa tw'umweru yica udukoko twibasira ibihingwa, ndetse n'indi iba iri mu tudobo bifashisha bakayitera ku bihingwa kugira ngo bikure neza.

Ubworozi bw'amafi ndetse n'ibindi byororerwa mu nyanja, aho bakoze urugomero rw'amazi rwororerwamo amafi ndetse n'andi matungo yo mu nyanja, kugira ngo atabasha kujya mu nyanja yose ubundi ntibabone uko bayaroba mu buryo buboroheye.

Ubworozi bw'amafi aho bakoze, ingomero nyinshi zigiye zitandukanye, mu kiyaga kiri aho ngaho, agace kamwe bakakororeraho ubwoko, bw'amafi akandi ubundi bwoko ndetse, n'andi matungo yororerwa mu nyanja.

Uworora amafi cyangwa izindi andi matungo yo mu nyanja, ari kuyaha ibyo kurya kugira ngo ayo mafi abashe gukura neza kandi atange umusaruro ufatika, aho yagomeye agace gato ko kororeramo ayo mafi ye kugira ngo akure neza.

Ubworozi bw'amafi aho hari ikizenga bateretse kirimo amazi bororeyemo amafi, hari abagabo ndetse n'abagore bari hafi y'icyo kizenga, bitegereza uburyo ki muri icyo kizenga kimeze.

Icyuzi kirimo amazi menshi ,cyororerwamo amafi, hari abantu baba baje gukurikirana uko amafi ari gukura, bitegereza uburyoki aba yoga muri urwo ruzi, hafi aho hatuye abaturage, baba bakurikirana ibyo ngibyo ndetse hari n'ikibuga hafi aho ngaho.

Ababyeyi bahetse ibitebo bari gusarura icyayi cyeze, bari kugenda mu murima bahetse ibyo bitebo basarura icyayi, bagenda bashyira mu bitebo byabo bahetse.

Igihingwa nzambubukungu cy'ikawa byeyeze neza byatukuye ndetse n'ibikiri ibitembwe bikeneye gusarurwa iryo ritukuye ryeze neza kugira ngo tujyane ku ruganda itunganye.

Igihingwa nzamurabukungu ari cyo twita ikawa, iyo ryeze neza, rigeze mu gihe cyo gusarurwa kugira ngo rijyanwe gutonozwa, ubundi rizatange umusaruro ku bahinzi ndetse babashe kubona n'inyungu ku bijyanye n'ubuhinzi bwabo bw'ikawa.

Umugabo umwe n'abagore babiri, bahagaze mu murima w'umuceri weze neza, umuceri usa neza cyane, bahagazemo nk'abatari guhinga cyangwa gusarura, ahubwo bafite utuntu tw'urupapuro na amverope, bigaragara ko bafite uburyo ki bari kuwupimamo.

Abahinzi b'icyayi bari mu murima bifashishije ibikoresho birabafasha mu gushyiramo icyayi basaruye, harimo abagabo n'abagore bambaye amajiri y'ibishashi kugira ngo kitagira ikibazo kibatera bari gusarura icyayi keze neza.

Umuti uri mu icupa umuti ukaba wifashishwa mu buvuzi bw'amatungo nk'inka, ndetse n'andi matungo yororwa mu rugo, uwo muti ukaba uzivura indwara zigiye zitandukanye.

Inzu irimo imiti y'amoko atandukanye, iyo miti ikaba ari imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'inka ndetse n'andi matungo, iri mu macupa amwe asa umweru andi asa umukara.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo y'inka, harimo umuti wo mu kabido k'umweru witwa alubafasi, ndetse n'indi miti iri mu macupa y'ubururu, ndetse n'indi iba mu macupa y'umweru, nayo yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo.

Umuti uteretse ku meza, uwo muti ukaba wifashishwa mu buvuzi bw'amatungo nk'inka, uwo muti witwa liva tonicol, ufasha amatungo nk'inka igihe yagize ikibazo.

Amoko y'imiti atandukanye yifashishwa mu bworozi bw'inkoko zitanga amagi kugira ngo zibashe kororoka neza cyangwa se zibashe gutanga umusaruro ,mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Umuti wifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, igihe yagize ikibazo, uwo muti witwa Amprocox. Imiti rero ivura indwara nyinshi zitandukanye, ku amatungo yagize ikibazo.

Imiti itandukanye hari iri mu kabido k'umweru yitwa alibeno ndetse n'indiiyitwa alibedekisi yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, nk'inka ndetse n'ihene n'andi matungo yose yororwa mu rugo.

Amacupa ateretse ahantu asa nkaho arimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo n'inka ihene ndetse n'ingurube, harimo rimwe risa umuhondo andi asa umweru handitseho amazina y'iyo miti.

Umuti wifashishwa n'aborozi b'inka witwa ketoriki miriki bosita foru egisitara miriki, wifashishwa igihe ukeneye ko inka yakongera umukamo, uwo muti ugizwe n'ibiro bibiri gusa.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa mu bworozi, aho hari imiti biri mu mashashi ipfunyitse, ndetse n'indi miti ibi iri mu macupa yifashishwa, mu gihe inyamaswa cyangwa se amatungo yagize uburwayi bugiye butandukanye.

Umuti uteretse ku meza, wifashishwa mu buvuzi bw'amatungo wanditseho hayi porobiyotike, uwo muti uteretse ku meza, hari nimero za nyiri uwo muti aha abantu kugira ngo niba bakeneye, ubufasha baze kumuhamagara.

Ababyeyi babiri b'abahinzi bafite amasuka bagiye guhinga, bari guca mu nzira iri mu ifamu cyangwa se ahantu inka zirishiriza, bagana mu ishyamba bakomeza mu bikorwa byabo by'ubuhinzi.

Umuhinzi uri mu murima we wibigori ari kubibagara, ibyo bigori biracyari bitoya ariko ntabwo byeze neza, ntabwo byazamutse ntibyabonye ifumbire ihagije ari kugenda abibagara neza kugira ngo bikure neza.

Abahinzi bari guhinga mu gishanga, bari kugenda bakuramo ibyatsi byanyuzemo bidafite umumaro, bagasigaza ibihingwa byabo, kugira ngo bibone uko bikura neza cyane.

Umuhinzi uri mu murima w'umuceri ari kuwubagarira agabanyamo ibyondo ari kugenda yicira umuceri akuramo utameze neza agasigaza umeze neza.

Umukumbi w'ihene uri imbere y'abantu, abantu benshi nabo bari aho bareba iby'izo hene, izo hene zikaba ziri mu mabara atandukanye, zikaba zigiye gutangwa nk'ubufasha ku baturage kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'ibigori aho ibigori bihinze neza ku murongo ahantu hari ubutaka bwiza, burabagaye, birashishe ndetse bihinze ahantu hanini, birasa neza cyane n'ubwo bikiri bitoya.

Ubwikorezi bukorerwa ku magare aho umugabo yifashishije igare mu gutwara ibyatsi abijyana mu rugo, ibyo byatsi akaba ari ibyo kwifashisha mu kugaburira amatungo ndetse n'ibindi bintu.

Ubworozi bw'inka, aho inka nyinshi ziri mu biraro, imbere yazo hari ibyo kurya byazo nk'ubwatsi, izo nka zisa neza cyane zifite ubwatsi imbere yazo, ziri kurya ariko ziri mu biraro.

Abaturage bari kugenda mu mirima cyangwa se mu mafamu, bari gutashya inkwi kuko hari abafite imihoro barifashisha bakata inkwi, abandi bikoreye inkwi babashije gutashya, bari kugenda bihuta batumbiriye ahari inkwi.

Abahinzi bahurije hamwe ibyatsi byitwa imiseke bazifashisha mu gusasira ibihingwa byabo kugira ngo bibashe kuzamuka neza ndetse bikure kuko ibyo byatsi iyo biboze bivamo ifumbire bigatuma ibihingwa byabo bikura neza.

Umuhinzi uri gutera igiti kitwa gereveriya ahantu hari ibindi byatsi bigiye bitandukanye, icyo giti kikaba kifashishwa mu kugira ngo harindwe ubutayu ndetse haboneke n'umuyaga umeze neza kandi bazabone n'imihembezo bifashisha mu buhinzi bw'ibishyimbo bizamuka hejuru.

Umwumbati uteye mu murima ntabwo utoshye cyane ariko biri guterwa n'uko ukiri mutoya, uri mutaka bwiza, urahingiye, uranasasiye ariko ntabwo urera uracyari hasi cyane.

Ubuhinzi, bw'ibirayi, aho ibirayi iyo byeze neza, bisarurwa, bigakusanyirizwa hamwe ubundi, bikajyanwa ku masoko, ndetse bikagemurirwa n'ahandi hantu bikenewe, n'abahinzi nabo bakabona ibyokurya.

Umurima uhinzemo imyumbati, imyubati iteze neza ndetse n'ibihaza, bitakuze neza ntago uhingiye neza cyane ariko ibyo bihingwa bigaragara ko wizera neza.

Igihingwa gisa neza, gisa umutuku cyitwa puwavuro bifashisha mu guteka ndetse no gukora ibindi bintu byo kurya. Kirasa neza gisa umutuku, ibibabi byacyo bisa icyatsi kibisi.

Ubuhinzi bwibigori bisa neza, ibigori bihinze ahantu hanini hanini cyane, bifashe ahantu hanini, ibyo bigori birasa neza bireze bigeze mugihe cyo gusarurwa.

Umurima munini igice kimwe gihinzemo ibihingwa bikiri bitoya, n'ikindi gice gihinze kitarashyirwamo imbuto, no hirya hari ikindi gice gihinzemo ibindi bihingwa bitandukanye.

Ubuhinzi bw'igihingwa nzamurabukungu, aho ikibaya cyose giteyemo umuceri ukiri mutoya, ubwo buhinzi bwafashe ahantu hanini cyane, igishanga kinini cyane, bigaragara ko ubwo buhinzi ari ubw'ibihingwa byo kugurisha ndetse bakaba n'abaturage bazabyifashisha, mu kubirya.

Igihingwa cyitwa Gereveriya gisa neza kikiri gitoya, ariko kiri ahantu heza ndetse n'ibindi bihingwa, byeraho ibyokurya nk'imyumbati, biri ahantu mu murima.

Umuhinzi ari gutegura umurima we ahingamo ibihingwa bye bigiye bitandukanye, uwo murima we urimo insina, afite umuhoro hari ibyo ari kugabanya mu murima abitema ibindi abitunganya, kugira ngo ubuhinzi bwe burusheho kugenda neza.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi bifatanye harimo utuyira, iryo shyamba rikaba yegereye umugezi urimo amazi menshi hafi yaho hari akabuga wambutse ayo mazi hari imirima itandukanye.

Ishyamba ririho ibiti byinshi bipfukiranye, ndetse hari n'umugezi, umanuka muri iryo shyamba. Iryo shyamba hirya rikaba ryitaruwe, n'ingo abaturage babamo ndetse n'imirima bahingamo, ibyo bifashisha mu kurya.

Umubyeyi uhagaze imbere y'abandi, uri kwerekana uburyo bwo gutegura amazi meza akikijwe n'abandi, bigaragara ko bakurikiye ikiganiro ke cyangwa se ibikorwa bye.

Ishyamba ripfukiranye ririmo ibiti byinsh,i harimo ibiti by'inturursu bikiri bito ndetse n'ibiti byakuze, imbere hari umusozi unyuramo kugira ngo ubone ugere muri iryo shyamba.

Abakerarugendo, bari mu ishyamba, ishyamba ririmo inyamaswa nk'ingagi, intare, hari n'abashinzwe, iryo shyamba, barimo barafotora, bishimiye, izo nyamaswa bari kureba ndetse n'iryo shyamba, ukuntu ripfukiranye.

Ishyamba riteyeho ibiti bigiye bitandukanye, ndetse n'imisozi iri hirya no hino ituyeho abaturage, ndetse hariho n'aho bahinga imyaka cyangwa se ibibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umusozi uhinze hafi yawo hari ibiti bitandukanye, ariko ibyo biti bikaba byarumye bigaragara ko haje izuba ryinshi, umusozi ukuma, ibyatsi bikuma ndetse n'ibiti bikuma.

Umusozi uteyeho ibihingwa bigiye bitandukanye, hari agace kamwe gateyeho ibiti bitoya, hari n'akandi gasa nk'agahingwamo ibihingwa bisanzwe, munsi hari igishanga giteyemo ibihingwa bitandukanye.

Icyapa kiri ahantu ku muhanda cyanditseho horitikarincya demonsitirashoni puroti dukorane umurava dutere imbere, kigaragaza koperative ikora ubuhinzi bw'imboga n'imbuto.

Umuhinzi wahinze pavuro, ari gusarura umusaruro we aho weze neza, yishimiye ko yageze ku byo yifuzaga kuko izo pavuro zirasa neza kandi zireze neza.

Umuhinzi wimboga asaruye imboga ze, harimo inyanya, karoti ndetse na beterave, ari kwishimira umusaruro we, aho yakusanyirije hamwe yerekana ubuhinzi bwe akora.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto n'indabyo buhinze ahantu hatwikiriye, imboga zirasa neza n'imbuto zisa neza zigiye ziteretse mu mabasi, ndetse no mu mavazi zakuze kandi ziri ahantu hatwikiriye.

Umuhinzi ukora umwuga wo kugemeka imbuto zikiri ntoya nk'imbuto z'amashu, zakera ubundi akazizigurisha aho amashu ye yari amaze gukura ageze mu gihe cyo kugurishwa, ndetse n'umuguzi araza aje kugura ingemwe kugira ngo nawe abashe kuzitera, aziteze imbere.

Umuhinzi yasuwe n'abayobozi batandukanye baje kureba uburyo ki akoramo ubuhinzi bwe avomerera akoresheje uburyo bw'umupira, adakoresheje amaboko ajya kuvoma amazi ahubwo akoresha ubu buryo bugezweho bukoresha umupira.

Ubuhinzi bw'inoryi, aho muturage, afite ipombo yifashisha mu kuvomerera ubwo buhinzi bwe, mu gihe cy'izuba, igihe nta mvura iri kugwa cyangwa se igihe imvura yaguye, idahagije, mu kuvomerera, ubwo buhinzi bwe.

Igikorwa cyo kuvomerera hifashishije imashini cyangwa se ibikoresho bigezweho, aho umuhinzi avomerera bidasabye kujya kuvoma, ahubwo agakoresha ipombo akarishyira mu mugezi ubundi akavomerera mu buryo bumworoheye.

Uburyo bwo kuvomerera bugezweho aho bakoresha ipombo bayishyize mu mugezi cyangwa se mu rundi rugomero rw'amazi ikabasha gukurura amazi bakavomerera bidasabye kujya kuvoma bayatwara mu ntoki.

Ubuhinzi bw'amashu, aho amashahingwa neza ku murongo akurikiranye ndetse agasasirwa neza, izuba ryaba ryinshi akavomererwa, aho umuhinzi akoresha ipombo rimufasha kuvomerera mu buryo bworoshye bidasabye ko ajya kuvoma amazi yifashishije ibivomesho, ahubwo agakoresha iryo pmbo.

Umuhinzi wakoze impanuka ari mu gikorwa cye cy'ubuhinzi, atema itiyo itwara amazi iyashyikiriza abaturage mu ngo, aho ngaho yahingaga mu murima we hari urutoki, ndetse yari arimo ahingira imbuto ze.

Abaturage batandukanye harimo urubyiruko ndetse n'abakuze, bavuye mu gikorwa cy'umuganda bateraniye hamwe, bari gusubiramo uko biyumva, ndetse banatanga ikiganiro ku bijyanye n'iby'icyo gikorwa bavuyemo.

Umuhinzi uri guhinga mu gishanga cy'umuceri ari guhinga akuramo ibidafite umumaro agasigaza ibifite umumaro aho yitwajije ibyo kurya n'ibyo kunywa kugira ngo aze guhinga ahantu hanini.

Uburyo bwiza bwo kuvomerera aho imashini iri hejuru y'ibihingwa, iri kugenda ivomerera ibyo bihingwa mu buryo bugezweho budasanzwe budakoresheje amaboko y'abantu, ahubwo iyo mashini ariyo igendagenda mu murima iri kuvomerera.

Umusozi, uriho akagezi kamanuka kamanura amazi, kakamanuka kuri uwo musozi, uwo umusozi ukaba uriho ibiti bigiye bitandukanye ndetse hagiye harimo n'imikingo, imbere hari umurima uhingwamo ibigori.

Ahantu hateguwe ho kororera inka nyinshi bakunze kwita ifamu harimo inka zigiye zitandukanye izikiri ntoya, inkuru ndetse iyo famu ikaba ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye bihakikije.

Igishushanyo cyangwa se ifoto igaragaza umugezi uri hagati y'imisozi, umusozi umwe ukaba uteyeho icyayi, undi musozi ukaba uteyeho ibiti, uwo mugezi ukaba uri hagati y'iyo misozi, ku mpande hagiye hari utuyira.

Umuhanda uri hagati y'amashyamba abiri, ishyamba rimwe ruguru yaryo hari umusozi, umusozi ugiye uhanamye imikingo igiye itandukanye, hari n'abagenzi, umugenzi uri kugenda muri uwo muhanda iyi modoka iri gucamo.

Umugezi utembamo amazi, utemba hagati y'imisozi ibiri, aho umusozi umwe uteyeho ibiti undi musozi ukaba ntabiti uteyeho ahubwo uteyeho ibindi bihingwa bitandukanye, hagiye harimo utuyira tugiye dutandukanye.

Umusozi uriho ingo nyinshi zigiye zitandukanye abaturage babamo, harimo n'inzira zigiye zitandukanye zibafasha kugera mu ngo zabo ndetse n'insina zeraho ibitoki bibafasha mu kubona ibyo kurya.

Umusozi utuweho n'abantu batandukanye, hari inzu zigiye zitandukanye. Abahatuye bafite amatungo kuko hagiye hari ibiraro by'amatungo. Izo nzu zisakaje amabati, kuri uwo musozi hari amaterasi y'indinganire. Hafi aho hateye ibihingwa nk'ibishyimbo.

Ikiyaga kiri hagati y'imisozi ibiri aho umusozi umwe uribo ihabyatsi byinshi ndetse undi musozi ukaba uriho imirima bashobora guhingamo ndetse n'ibindi biti bya kimeza byahimejeje.

Abaveterineri bamwe bambaye amataburiya ndetse abandi bambaye amasarureti, bitabiriye mu gikorwa cyo gusura inka, bagiye kuzisuzuma ndetse no kureba imyororokere y'izo nka.

Ubworozi bw'ingurube nziza, ingurube za kizungu ariko zitororewe mu biraro ahubwo ziri ahantu mu nzu hubakiye, ziba zaryamye, igihe zitarabona ibyo kurya kugira ngo zibe zibirya.

Ubworozi bw'inkoko ,aho inkoko nyinshi zihurije hamwe mu kiraro, harimo inkoko zitanga amagi ndetse n'izindi nkoko z'inyama, aho zihurijwe hamwe mu rwego rwo kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Ubworozi bw'ihene aho ihene z'amoko atandukanye, zororerwa mu biraro aho ziba zifungiranye kugira ngo zitirukanka zikajya ku gasozi zikagira ibyo zangiza, ahubwo zigashyikirizwa ibyo kurya aho mu biraro kugira ngo zikurikiranwe neza kandi zitange umusaruro.

Ubworozi bw'inka aho ibiraro byubakiye neza binasakaye bishyirwamo inka kugira ngo zibashe kwitabwaho ndetse zibashe no kororoka neza zitanga umusaruro na baveterineri bazisanga muri ibyo biraro byazo kugira baziteho batazisohoye.

Ubworozi bw'inka nziza z'inyambo zifite amahembe ateye neza, zifite abashumba babitojwe, baba bambaye imyenda isa umweru, bafite inkoni, izo nka ni nziza cyane ziri ahantu mu biraro cyangwa se mu mafamu.

Ubworozi bw'amatungo nk'inka, aho inka zikiri ntoya. Harimo inyana ndetse n'ibimasa bikiri bitoya biteraniye hamwe. Izo nka zikaba zibyibushye zisa neza kandi zose zisa.

Ubworozi bw'inka, aho umworozi, avomera, inka ye cyangwa se kuyuhira amazi yifashishije ibasi, y'igikoresho cyo mu rugo, ndetse iyo nka akaba aba yayiziritse mu kiraro mu rugo rwe.

Ubworozi bw'ihene aho ihene izibyara ndetse n'iz'amasekurume z'inyama, zahurijwe hamwe aho bazororera, ihene zisa neza kandi zibyibushye zitaweho neza.

Ubworozi bw’inkoko, inkoko zitanga amagi zitandukanye ndetse n'ibyokurya byazo ukuntu n'aho zirira uko haba hateguye hameze neza kugira ngo zize kubona uko zitanga umusaruro.

Ubworozi bw'inkwavu aho bakoze utuzu dutoya two kororeramo inkwavu, abaveterineri bakaba bari bazisuye bari kureba uburyo ki ubu bworozi bugenda, ndetse batanga n'inama kuri abo borozi.

Aborozi b'inka bari gukama amata ku nka z'imbyeyi ndetse n'undi umwe ari kwagaza inka kugira ngo babone uko bayikama, idateye imigeri hejuru cyangwa se ngo igire ikindi kibazo itera.

Ubworozi bw'inka, inka ziri mu biraro, zimeze neza, zibyibushye, zariye zahaze. Bigaragara ko zitaweho neza cyane kuko zirasa neza bihagije.

Ubworozi bw'inka aho inka yabyaye inyana ikaba iri kuyitaho iyirigata iyi nyana iracyari ntoya ariko isa neza iyo nka y'imbyeyi iri kuyitaho neza.

Ibigori byeze, byanitse, bitegereje kuma kugira ngo bazabihungure, babikuremo umusaruro, babashe kuba bawujyana mu nganda gukoramo ifu cyangwa se bawukoremo n'akawunga.

Abahinzi bateraniye hamwe, bafite mu ntoki, imbuto z'ingano, bari kugaragaza umusaruro wabo waturutse mu ngano, bicaye hamwe, bazishyize hamwe, bari gukoramo, bagaragaza umusaruro wabo.

Ubuvuzi bw'inka aho inka zahurijwe hamwe nyinshi hari aba veterineri cyangwa se abavuzi b'inka bari kuzitaho, bari kuzitera intanga kugira ngo zizabashe kubyara, bazihurije hamwe hari abavuzi bambaye amasarubeti y'ubururu, ndetse n'abambaye amataburiya y'umweru.

Abavuzi b'amatungo bateraniye hamwe bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa mu buvuzi barimo basuzuma indwara zifata amatungo ndetse banihugura uburyo ki bikorwa.

Ubuvuzi bw'amatungo, aho umuvuzi w'inka ari gutera urushinge inka, bigaragara ko ari kuyisuzuma cyangwa se afite umuti ari kuyitera.

Ubuvuzi bw'amatungo, aho umuveterineri ari gusuzuma ikibazo inka ifite, hari n'undi uri gukama inka ishobore kuba ifite ikibazo kijyanye n'ubwoko bw'amata yayo butameze neza.

Umuvuzi w'inka, ari gupima inka, afite ipombo, afatiramo ibipimo bye cyangwa se amaraso cyangwa ashaka gupima muri iyo nka, yambaye isarubeti yabugenewe ndetse na ga mu ntoki n'agapfukamunwa kuko ari byo bimufasha, bikanamurinda no kuba na we yagiramo, ikindi kibazo.

Ubworozi bw'inkoko, zitanga amagi, ndetse zinororoka. Aho zihurije hamwe mu biraro byazo, bakazishyikiriza ibyokurya zidasohotse mu ngo, ahubwo zikagumaho hamwe, kugira ngo zibashe gutanga umusaruro.

Ubuvuzi bw'inka aho abaveterineri bamwe bambara amataburiya y'umweru ndetse n'abandi bambara amasarubeti y'ubururu bahurije inka hamwe bari kuzisuzuma bazishyize mu bikingi kugira ngo zidasohoka cyangwa se zidahunga ngo zirukanke.

Icupa ryanditseho viyoleti redi bile rakitosi agari ayi esi kane umunani gatatu kabiri kugeza kabiri zeru zeru gatandatu foru, kandi handitseho for detection and enumeration of california bacteria in food water and daily product mu mpande handitsemo in media.

Inka ziri mu biraro cyangwa se inzira bifashisha mu kuzibanguririzamo, hari abavuzi b'inka bita abaveterineri n'abashumba, abo bavuzi b'inka bo bambaye amataburiya yabugenewe bajyana mu kuvura inka.

Inyamaswa yo mu gasozi iri mu ishyamba ahantu hari ibihuru kandi ihagaze nk'irikota izuba kuko mu kirere hari umucyo mwinshi bigaragara ko iri kota.

Inyamaswa yo mwishyamba dukunze kwita zebura isa neza cyane, ifite amabara y'umukara ndetse n'ay'umweru, iri ahantu mwishyamba, imeze neza ikurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa zitandukanye zo mu ishyamba, ziri kwirukanka mu ishyamba, zimwe ziriruka ku zindi, izindi zizihunga. Haruguru hari umusozi, zimwe zirerekera kuri uwo musozi, izindi zimanuka hepfo mu kabande.

Inyamaswa zo mu ishyamba zijya gusa nk'imbeba ariko atari imbeba, zikunze kuba ahantu hari ishyamba ndetse no ku misozi, izi nyamanswa zikunze kuba zibyibushye kandi zisa neza.

Inyamaswa yo mu ishyamba dukunze kwita ingwe, iryamye ku giti ahantu hari ibiti inyuma hirya, ifite amabara meza cyane, irabyibushye isa neza.